Imiti iva mu nganda ikoreshwa mu gutera ibihingwa harimo : ibihaza, insina ,imbuto zitandukanye n'inyanya, kugira ngo tuzirinde kuba zapfa.

kugira ngo ibihingwa byumuhinzi bikure neza kandi kugirango azabone umusaruro u ushimishije nkukouko agomba gukoresha imiti yicaga udukoko kugirango ngo tutangiza imyaka

Ifumbire y'imborera ikoreshwa mu gufumbira imyaka, kugira ngo imyaka izagire ubuzima bwiza, bityo izere umusaruro mwinshi cyane.

Iyo abahinzi bari kwita ku bihingwa byabo, ni ngombwa ko bakoresha imiti yaturutse mu nganda, kugira ngo ibihingwa byabo bimererwe neza bityo bakabona umusaruro mwiza.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye, barimo gufasha abaturage gukorera neza ibihingwa, kugira ngo bigaragaze ishusho y'ubuhinzi mu Rwanda.

Ifumbire mvaruganda ikoreshwa n'abahinzi benshi, kugira ngo ibihingwa byabo bizabahe umusaruro utubutse.

Umuhinzi wabigize umwuga, aho ari gutera umuti zimwe mu mboga zikunzwe hano mu Gihugu cy'u Rwanda.

Mu buhinzi buteye imbere aho usangaga imashini ari zo ziri gukora imirimo abantu babakwiye gukora, bityo bakabona umusaruro ukubye uwo abantu babonaga.

Mu buhinzi buteye imbere, aho abahinzi batera imyaka imiti yica udukoko, dutuma ibihingwa bitera neza, bityo bakeza imisaruro myinshi.

Umuhinzi arimo gutera umuti ibihingwa, kugira ngo bazabone umusaruro umeze neza kandi mwinshi.

Mu buhinzi buteye imbere, ntabwo kuhira imyaka bikorwa n'abantu, ahubwo bifashisha ibyuma byabugenewe, bikuhira ahantu hanini mu gihe gitoya.

Uburobyi bukoresheje indobani nibwo butuma bafata amafi manini abereye kuribwa.

Ikoraniro ry'amafi aho ari kugurishwa, iyo abarobyi bavuye kuyaroba mu migezi cyangwa se mu bizenga, bayajyana ahabugenewe bakayagurisha.

Amafi ategurwa ku buryo butandukanye ,aho buri muntu aba afite uburyo buboneye, kandi ashaka kugira ngo aze kumuryohera.

Ubworozi bw'amafi buri henshi cyane mu Rwanda ,aho aborozi bayo babona amafaranga menshi , binyuze mu kuyagurisha igihe akuze kandi yeze.

Kugira ngo abarobyi babone amafi, bakoresha uburyo bwinshi butandukanye.

Rutemikirere cyangwa se indege, ikoreshwa n'abashinzwe umutekano cyane cyane abapolisi.

Bimwe mu bikoreshwa n'abarobyi mu gihe bari kuroba amafi, bityo bakagabana mu buryo bwihuse.

Mu burobyi bw'amafi hagaragaramo ubwoko bwinshi bw'amafi, naho abarobyi bayajyana ku isoko bityo bakiteza imbere.

Umusaburo w'amafi ugomba kwitabwaho kugira ngo utaza kwangirika, aho bayashira ahabugenewe.

Amafi ni meza cyane kuko uwayariye agira akanyamuneza, kandi ni amwe mu biryo birinda indwara.

Ifi iteguwe mu buryo bwo kotsa, ni imwe ikunzwe cyane n'abatari bakeya mu Rwanda, aho iryoha birenze urugero.

Umusaruro w'amafi wiyongera igihe Leta yabishyizemo ingamba, aho birinda kuroba cyane, bityo igihe byemewe bakabona umusaruro mwinshi.

Ifunguro riteguwe neza aho hagaragaramo bimwe mu bintu bituruka mu nyanja cyane cyane amafi.

Ibiyaga ni bimwe mu byiza bitatse u Rwanda. Bityo abanyamahanga bagakunda kurusura, bitewe n'ibiyaga u Rwanda rufite.

Inyama y'ifi isangwa henshi hose hatekerwa ibiryo rusange, aho abantu batanga amafaranga, bityo na bo bagahabwa ayo mafi.

Kugira ngo urubuto rwa voka ruboneke nuko abahinzi batera ingemwe zicyo giti kugira ngo zizere kandi bakacyitaho bihagije.

Mu ngo z'abantu hagaragara ko mu bizitiro byaho, haba hari ibiribwa byinshi bitandukanye isombe, ibiti bya voka ndetse n'ibindi.

Ubutaka bwateguwe neza, bugaragara iyo ibihingwa bitewemo, bikamera neza.

Ubuhinzi bw'amajeri nibwiza cyane, kuko amajeri, agiraga umusaruro, utubutse cyane.

Ibijumba ni kimwe mu gihingwa cyateye imbere, kandi kizwi cyane mu Rwanda, aho gihingwa na kimwe cya kabiri cy'abatuye u Rwanda.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bwiza kuko ababuhinze biteza imbere binyuze mu kubisarura bakabigurisha, bityo bakabona amafaranga.

Ibirayi ntabwo ari byiza ko ubihinga biri kumwe n'ibindi bihingwa, kuko byabyangiza, bityo ukabona umusaruro mukeya.

Mu Rwanda rwo hambere iki cyari igiti cyakoreshwaga mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, aho n'ubu kigikoreshwa.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bwiza cyane kuko ibirayi ni kimwe mu bihingwa bihinzwe ahantu hakeya mu gihugu, kandi bikaba bikundwa na benshi.

Inkarisha ni zimwe mu bintu bifatwa nk'umuti, aho bazikoresha mu kuvura indwara, ndetse no kuzirinda. Harimo umubyibuho ukabije, kuribwa mu nda, ndetse n'izindi.

Ibirayi iyo bisaruwe hari ibisigara mu murima, bityo kugira ngo ukuremo byose ugomba kuhahinga neza.

Iyo ibigori byasaruwe bafata ibisigazwa bakabijyana ku bikoresha indi mirimo nko gukora imishingiriro.

Ibigorigori babikoresha nk'imishingiriro, iyo ibigori byamaze gusarurwa, barabihunitse.

Igiti gikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye, harimo nk'umuti gakondo, cyangwa se kigakoreshwa nk'intaho z'inyamaswa harimo nk'inyoni.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bihingwa ahantu henshi mu Rwanda, aho ari igihingwa cy'ingenzi buri wese nk'umuhinzi agomba guhinga.

Igihingwa cy'imiteja gikoreshwa ku mafunguro ya buri munsi ,hirya no hino mu miryango ,kandi kikarinda indwara nyinshi zitandukanye.

Umuhinzi w'umubyeyi, ufite igikoresho cy'ubuhinzi ari cyo isuka, aho agiye gusura umurima we kugira arebe ibihingwa uko bimeze.

Mubuhinzi bwateye imbere, aho imirama isigaye yinarizwa munzu, maze igakoreshwa mu gutera ibintu byinshi bitandukanye, harimo umuceri ndetse n'izindi mpeke.

Abahinzi barimo gutera imyaka, bakoresheje ifumbire y'imborera, kugira ngo bizamerane imbaraga kandi bitoshye.

Ubuhinzi bw'imiteja bugaragara henshi mu Rwanda, aho ari bimwe mu bikunzwe cyane n'abantu benshi.

Amakoperative arihuza ari abantu benshi, bityo bagahinga imyaka myinshi itandukanye, bagatezanya imbere n'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bw'icyayi bufata ubuso bunini, aho bafata nk'amahegitari ibihumbi bitanu, aho amashyirahamwe ahuza ubutaka, bityo bagahinga igihingwa kimwe.

Ibijumba bisangwa henshi mu masoko y'ibiribwa cyane cyane, kuko bikunze guhingwa henshi mu gihugu kandi bikaba byera cyane.

Umukecuru urimo kubagara ibigori. Aho bizatuma byera neza, bityo bakazabona umusaruro mwiza.

Imbuto nyinshi zihingwa n'abahinzi bakazikoresha ku mafunguro ya bo ya buri munsi, ndetse bakazigemurira n'amasoko.

Umuhinzi bigaragara ko ari umugabo, ufite ibitwenge byinshi cyane, bigaragara ko yabonye umusaruro ushimishije.

Mu isoko ry'ibiribwa, hariho bimwe mu bikoreshwa mu ifunguro rya buri munsi, nk'ibitoki, ifu y'ibigori bikoreshwa nk'igikoma.

Abahinzi bahinga ibirayi bakuramo amafaranga menshi, bityo bakiteza imbere , imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange.

Kugira ngo abahinzi babone umusaruro ushimishije w'ibigori , ni uko bagomba gukoresha ifumbire, y'imborera ndetse n'imvaruganda bihagije.

Ibitoki byiza kandi byeze, biba bihagaze igiciro cyinshi, aho igitoki kimwe gishobora kugura arenga ibihumbi mirongo ine.

Mu isoko ry'ibiribwa usangamo, ibiribwa byinshi bikoreshwa ku mafunguro ya buri munsi ,ategurirwa mu muryango ,aho ibirayi, amashu ,ibihaza, n'amateke bigurwa.

Mu isoko ry'ibiribwa, higanjemo intoryi, ibitunguru, ibibiriganya, amashu, ibijumba, ndetse n'ibindi.

Imbuto z'amatunda ni zimwe mu mbuto zitukura, kandi zikunzwe cyane n'abatuye u Rwanda.

Avoka ni rumwe mu mbuto zigira amavuta, kandi zikaba zihinzwe henshi cyane mu gihugu.

Inyama y'inkoko ni imwe mu zikunzwe cyane mu Rwanda, aho aborozi bazo babona amafaranga menshi.

Ibirayi biri mu murima, bari kubisarura, kandi barabijyana ku isoko, bityo babonemo amafaranga.

Ipera ni rumwe mu mbuto zihingwa cyane mu Rwanda ,aho kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda baba bahinze amapera.

Ubuhinzi buteye imbere aho basigaye bahinga imbuto nyinshi zitandukanye mu buryo buteye imbere.

Umuhinzi ugaragara ko ari umukecuru, aho afite agasuka gashaje k 'agafuni.

Umuganga w'amatungo, aho yambaye imyenda yabugenewe, aho bigaragara ko arimo kuvura itungo rigufi ryitwa ingurube.

Igihingwa cy'icyayi kirasoromwa bityo bakakijyana ku ikusanyirizo, kigatunganywamo icyayi binyuze mu nganda.

Avoka ni kimwe mu rubuto rukundwa cyane mu Rwanda, kandi buri wese yifuza kurukoresha ku mafunguro ye ya buri munsi.

Gushyira imyaka yasaruwe ku izuba, ni byiza kuko bituma iyo ihunitse itaza kwangirika, bityo bikaguma uko byari bimeze.

Avoka ni urubuto ruhinzwe ahantu henshi cyane mu gihugu, kandi rukaba rutegurwa n'andi mafunguro ya buri munsi.

Urubuto rwa avoka ntabwo, rukoreshwa ku mafunguro gusa, ahubwo rujanywa no mu nganda kugira ngo akoremo ibindi bintu, nk'amavuta yo kwisiga, ayo kurya ndetse n'ibindi.

Ipapayi ni rumwe mu mbuto ziboneka henshi mu Rwanda, kandi iyo uyikeneye warisanga mu masoko menshi y'ibiribwa.

Abahinzi bari gusarura igihingwa cy'icyayi, aho bari kubara ibiro byavuye muri uwo musaruro.

Ibihaza biterwa bikiri bitoya ,maze byamara kwera bakabijyana ku isoko, cyangwa se na bo, bakabitegura ku mafunguro yabo y'umunsi.

Mu moko yose y'amasoko hariho n'ay'amatungo magufi, aho buri wese ufite intama, ihene, inkwavu ndetse n'andi matungo magufiya ayajyana bakayagura bakamuha amafaranga.

Mu nganda, habonekagamo ibintu byinshi, kandi iyo ibintu barangije kubikora babishyira ahantu hamwe.

Iyo abacuruzi babonye icyo gucuruza bakijyana ahabugenewe, bityo abakiriya baza bakakibona byihuse.

Ubuhinzi bw'ibiribwa buciriritse, aho batanditse puwavuro mu mifungo, aho usanga ziguze amafaranga atari menshi.

Igihingwa cya karoti ni kimwe mu gikunze guhingwa cyane. Kandi iyo cyeze, kigasarurwa, abahinzi babona umusaruro, ndetse bakaniteza imbere.

Igitoki baragihinga, bagatera insina, maze kikana, cyamara kwana kikazana amaseri, bityo bagategereza ko kizera, maze kikaribwa.

Iguriro ririmo abantu benshi, ariko riri hanze, aho bari kugura no kugurisha ibinyamasukari nk'ibisheke. Kandi hakaba ariho n'icyapa kigaragaza kwirinda ibyorezo.

Avoka ni urubuto rwiza cyane, iyo waruriye uba wirinze indwara nyinshi zitandukanye.

Igitunguru ni kimwe mu biribwa gikunzwe gukoreshwa cyane ku mafunguro ya buri munsi, mu gihe bari gutegura amafunguro.

Mu isoko ry'ibiribwa hagaragaramo ibintu byinshi, harimo imiteja, karoti, ibirayi, amafu menshi atandukanye, ibijumba, amateke ndetse n'ibindi.

Ibishyimbo bigufi, aho birimo kwitwaho n'umuhinzi kandi ubizoberewemo, aho bizamuha umusaruro mwiza. Kandi ushimishije.

Abahinzi benshi bari mu murima, barimo kwita ku gihingwa cy'icyayi, aho ni cyera bazabona umusaruro mwiza.

Mu isarura ry'igihingwa cy'umuceri biba igihe weze neza, kandi ukomeye bityo bakawuhura bakabuhunika.

Amateke ya Bwayisi, aho ahingwa n'abahinzi cyane cyane ahantu hari amazi menshi, cyane cyane mu bishanga.

Mu ishamba kuhatemberera nibyiza cyane, niyo mpamvu, abanyamahanga bazaga baje kureba, amashamba dufite mu rwanda.

Ahantu hari ibiti, ni heza kuba wahasura. Kuko haba hagaragara neza kandi hatuje.

Mu isoko ry'ibiribwa, higanjemo ibishyimbo, amasaka, amajeri, ndetse n'ubunyobwa, aho biri kugurishwa,..

Ibigori birasarurwa, maze bigahunikwa iyo byeze, kugira ngo birinde ko byakwangizwa n'inundwe.

Umuhinzi bisa nk'aho ari kuganira n'itangazamakuru, aho bishoboka ko bari kuganira ku by'ubuhinzi, ndetse n'ubworozi.

Imbuto iyo zinajwe zitangira kumera zikazana n'imizi, zamara kumera neza, zigaterwa ahabugenewe.

Mu mbuto zikundwa kuribwa cyane mu Rwanda harimo amacunga ,amaronji, amapera, avoka ndetse n'ibindi.

Ubunyobwa ni bwiza cyane, kuko iyo umuhinzi yabusaruye abona amafaranga, binyuze mu kubugurisha abatabufite.

Abacuruzi barimo gutunganya ibicuruzwa byiganjemo ubunyobwa , kugira ngo babusukure babukuremo imyanda, bityo ababugura banogerwe na bwo.

Abantu barimo gukora igikorwa cyo guhura amasoya, aho bayanitse maze akuma , bityo bakaba bari kuyakura mu bishogoshogo.

igihingwa c'ubunyobwa gihinzwe ku buso bunini aho abaturage bifatanyaga bagahuza ubutaka mico bakabona umusaruro utubutse

Ubuhinzi bw'amajeri bumaze gufata intera ndende mu Rwanda, aho abahinzi babikorera bafata ubuso bunini bakabuhingaho igihingwa cy'amajeri.

Mu isoko ry'ibiribwa hariho ibiribwa bitandukanye: nk'ibishyimbo, soya, ibigori bifunze mu biro ,kandi hariho n'igiciro cya buri kimwe.

Iyo imbuto zamaze gusarurwa mu murima, ziratunganywa maze bakazitegura ku mafunguro, ndetse bakazisagurira n'amasoko.

Abantu barimo gucuruza ibiribwa byinshi bitandukanye, harimo amasaka ,ibigori ,ubunyobwa ,soya ndetse n'izindi.

Imbuto ni ibinyampeke, zihunitswe mu nzu yubuhunikiro aho zizakoreshwa mu minsi iri imbere.

Iyo imbuto zitewe, zitangira kumera bityo ibihingwa bikamera neza. Ariko icyo gihe imvura iba yaguye cyangwa se ubutaka burimo amazi.

Kugosora mu buryo gakondo bwo gufata imbuto zasaruwe, ukazisukura kugira ngo uzijyane ku isoko zimeze neza, cyangwa se uziteguremo amafunguro zisukuye.

Kuri ubu hari ibitaro by'amatungo bibamo abaganga b'inzobere, bazi kuvura inyamaswa z'ubwoko bwose.

Ubworozi bw'ingurube, bumwe mu bumaze gutera imbere, aho butangiye kuzana n'abanyamahanga kugirango batwigireho.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko, aho ababizobereyemo bafata amafaranga bakayashora mu bworozi bw'inkoko. Bityo bakiteza imbere.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bumaze gutera imbere mu Rwanda ,aho inyama y'ingurube imaze kugera ku giciro gishimishije.

Kugira ngo tubone inyama zisukuye kandi zimeze neza, ni uko zibanza gupimwa n'ababyigiye kandi babihuguriwe.

Umuvuzi w'amatungo, aho ari kwita ku nka, bigaragara ko ari ukuzitera intanga, ndetse n'inkingo.

Abavuzi b'amatungo bishyize hamwe, aho bari mu gikorwa cyo kwita ku itungo ryitwa inka aho bari kuzitera intanga.

Ubworozi bw'inkwavu ni bwiza cyane kuko inkwavu zororoka cyane, kuko zishobora kwibarukira amezi abiri yonyine.

Ntabwo muri iki gihe kuraririza amagi ku nkoko ntabwo bikigezweho, ahubwo hari ikoranabuhanga ryaje ryo kuzishyira mu mashini, maze zigaturaga.

Ubwoko bw'inyamaswa ikiguruka, aho kigaragara mu mabara atandukanye, aho kibera mu mashyamba.

Ihene yo mu ishyamba ni yo nyamaswa ikurikira igisamagwe kwirukanka cyane mu nyamaswa z'ishyamba.

Inzoka ni inyamaswa y'inkazi yo mu ishyamba, aho iramutse ikurumye yakwangiza, bikakuviramo no kubura ubuzima.

Inyoni iri mumabara atandukanye, aho ihagaze ku giti isa nkaho iri mu ishyamba.

Urukwavu rwo mu ishyamba aho rwirira ibyatsi byo muri iryo shyamba kandi rukaba ruzi kwiruka cyane, ku buryo nta yindi nyamaswa yapfa kururya.

Inyoni ni nziza cyane aho zikurura ba mukerarugendo, bityo igihugu cyikinjiza amadovize.

Ikiguruka inyoni yo mu mabara meza cyane, aho ihagaze hasi yibera mu cyari ,aho itera amagi, kugira ngo ibyare udushwi.

Inyamaswa yo mu ishamba aho bigaragara ko ari ikiguruka, kiri mu mabara menshi gatandukanye.

Inkende ni ibisimba byo mu ishyamba bitangaje aho birya ibyatsi n'imineke yo mushamba ndetse n'izindi mbuto.

Ibisiga bigira ubushobozi bwo kuba byarya udusimba dutoya harimo nk'imbeba , inzoka ndetse n'utundi.

Agacurama ni kimwe mu bisimba byo mu ishyamba biguruka kandi ntago gitera amagi nk'ibindi biguruka, ahubwo kibyara nk'izindi nyamaswa zitari ibiguruka.

Inyoni ni kimwe mu nyamaswa zo mu ishyamba, aho zikurura abanyamahanga bakaza kuzireba, zikaba zigize mu bintu bitatse ubwiza bw'u Rwanda

Inkende ni imwe mu nyamaswa z'ishyamba, aho zikurura ba mukerarugendo, bakaza kureba ibyiza bitatse u Rwanda,..

Inyoni zigaragara mu ibara ry'umukara, zikunze kwirira ibyatsi kandi n'inyama iyo ziyibonye zirayirya.

Inyoni iri mu ibara ry'umukara, aho bigaragara ko iri mu ishyamba, kandi ikaba ari kimwe mu bikurura ba Mukerarugendo, bakatuzanira amadovize tukubaka ibikorwa remezo.